Umuhinzi w'umugabo uhetse injerekani irimo imiti yica udukoko, akaba ari mu murima aho ari gutera imiti yica udukoko imyaka kugira ngo izakure neza.

Umuhinzi wambaye ingofero, isengegeri y'umutuku ndetse n'ikabutura ya kaki, uhetse injerekani, akaba ari gutera umuti igihingwa cy'intoryi kugira ngo kizakure nta burwayi gifite.

Umugabo wambayetabuye y'umweru, hakaba hari ndetse n'ibikoresho bitandukanye nka mudasobwa, akaba ari ahantu hatunganyirizwa imiti yica udukoko two mu myaka.

Umuhinzi uri mu murima w'imyaka itoshye cyane akaba ari gutera imiti yica udukoko mu myaka kugira ngo indwara zitazangiriza iyo myaka bityo hakaboneka umusaruro mwiza.

Abahinzi batatu bafite ibikoresho, bakaba bari gutera imiti yica udukoko mu myaka kugira ngo imyaka izakure nta burwayi ifite.

Ahacururizwa ibicuruzwa by'ubwoko bitandukanye ndetse n'umucuruzi uri kubicuruza, aha twavuga imiti yica udukoko mu myaka.

Umuhinzi w'umugabo, wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'ubururu, ndetse n'inkweto z'umukara, akaba ahetse injerekani irimo imiti yica udukoko, akaba ari gukurikirana igihingwa k'intoryi.

Umuhinzi w'umugabo wambaye ingofero, uhetse ijerekani irimo umuti wi'ca udukoko, aho ari gutera iyo miti mu bihingwa kugira ngo itazafatwa n'uburwayi.

Umuhinzi w'umugore wambaye ishati ijya gutukura, uhetse ijerekani irimo imiti, akaba ari mu murima w'ibigori, aho ari kurwanya indwara ziterwa n'udukoko.

Umuhinzi wambaye ingofero y'umukara, inkweto z'umukara, uri mu murima w'amashu, aho ahetse injerekani irimo umuti, akaba ari gutera umuti kugira ngo imyaka itazicwa n'indwara zitandukanye.

Umuhinzi wambaye ishati y'umutuku, ipantaro y'umukara ndetse n'ingofero, uhetse injerekani irimo imiti yica udukoko, aho ari kuyitera imyaka kugira ngo imyaka ite kuzicwa n'indwara zitandukanye.

Abaturage batandukanye biganjemo abagabo aho bari ahororerwa amafi, bakaba bari kuroba amafi kugira ngo bageze umusaruro ku bawukeneye.

Umworozi w'umugabo wambaye umupira utukura, uri mu byuzi by'amafi, aho ari kuroba amafi, akaba ari ubworozi butanga inyama zikungahaye ku ntungamubiri.

Aborozi b'abagabo batanu bahuriye ku byuzi by'amafi ahororerwa amafi aho bamaze kuroba amafi, amafi akaba ari inyamaswa zitanga inyama zigira intungamubiri.

Umugabo wambaye bote z'umuhondo, umupira w'umweru ndetse n'icyatsi, akaba yambaye isaha, akaba ari mu byuzi by'amafi aho ari kugaburira amafi kugirango abashe gukura neza.

Umworozi w'umugabo ufite amafi mu ibase aho avuye kuyasarura, amafi akaba ari inyamaswa zigira intungamubiri cyane.

Ibyuzi bitandukanye ndetse n'utuzu dusakajwe amabati y'umweru akaba ari ahantu hororerwa amafi, amafi agatanga ibiryo biryoshye kandi bifite intungamubiri nyinshi.

Umunyeshuri w'umukobwa wambaye umupira w'umweru, isarubeti ya kaki, aho ari gutunganya ifi kugira ngo imere neza.

Abahinzi b'ingeri zitandukanye abagore, abagabo, bakaba bahuriye mu gutoranya ndetse no gutunganya igihingwa ngandurabukungu kizwi ku izina ry'ikawa.

Umuhinzi uri mu murima w'ikawa, aho ari gusarura ikawa yamaze kwera neza, ikawa akaba ari igihingwa ngandurabukungu kikaba gitanga ikinyobwa kiryoha cyane.

Umurima ugizwe n'igihingwa k'icyayi gitoshye gifite amababi ameze neza, akaba ari igihingwa kizwiho gutanga ikinyobwa kiryoshye cyane kitwa icyayi.

Umurima w'icyayi kigeze igihe cy'isarurwa, aho abahinzi barimo kugisarura, icyayi akaba ari kimwe mu bihingwagandurabukungu aho agikoresha mu buzima bwa buri munsi nko kukinywa, kikaba ari igihingwa kiryoha cyane.

Umuhinzi uri mu murima w'icyayi akaba afite icyayi gitunganyijwe mu kiganza kimwe, ndetse n'icyayi kitaratunganywa icyayi akaba ari igihingwa gitanga ikinyobwa kiryoha cyane.

Igihingwa cy'ikawa, gifite imbuto zitaratukura, kikaba ari igihingwa ngandurabukungu, kikaba gitanga amafaranga menshi, kikagira ikinyobwa kiryoshye.

Abahinzi babiri, umugore ndetse n'umugabo, aho bari gutunganya igihingwa cy'ikawa, kikaba ari igihingwa kivamo ikinyobwa kiryoha cyane.

Abahinzi babiri bari mu mirima y'icyayi, bakaba bari kuyisarura, icyayi akaba ari igihingwa ngandurabukungu, kikaba gitanga ikinyobwa kiryoshye cyane.

Abahinzi babiri b'abagore bari mu murima w'icyayi gitoshye, aho bari kugisarura, icyayi akaba ari igihingwa kivamo ikinyobwa kiryoshye cyane.

Abahinzi batandukanye abagore, abagabo, aho bahuriye mu murima w'icyayi aho bari kugisarura, icyayi akaba ari igihingwa ngandurabukungu.

Abahinzi biganjemo abagabo ndetse n'abagore bari gutunganya igihingwa cy'ikawa akaba ari igihingwa kigira ikinyobwa kiryoshye.

Umurima urimo igihingwa cy'ikawa, gitoshye kandi gisa neza, akaba ari igihingwa ngandurabukungu, kikaba gitanga ikinyobwa kiryoha cyane.

Igihingwa cy'umuceri, kikaba ari igihingwa gihingwa ahantu hari amazi menshi cyane cyane mu bishanga, kikaba ari igihingwa ngandurabukungu, kikaba gitanga ibiryo biryoshye cyane.

igihingwa cy'umuceri utare gitoshye, umuceri akaba ari igihingwa ngandurabukungu, aho gitanga ifunguro riryoshye cyane.

Igihingwa cy'ikawa kitarera neza, kikaba ari igihingwa ngandurabukungu, kifashishwa mu kuduhereza ikinyobwa kiryoha cyane cy'ikawa.

Ahagurishirizwa imiti y'ubwoko butandukanye, ifunze mu makarito y'amabara atandukanye, ay'umweru ndetse n'ay'umuhondo, ikaba ari imiti yifashishwa mu kuvura indwara z'ubwoko butandukanye mu matungo.

Imiti y'ubwoko butandukanye, iri mu makarito ndetse n'utudobo tw'umweru, akaba ari imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu matungo.

Imiti y'ubwoko butandukanye iri mu macupa y'umweru afite imipfundikizo y'umutuku ndetse n'icyatsi akaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti idufasha mu buvuzi bw'amatungo, ikaba idufasha kuvura indwara zitandukanye amatungo yacu aba yahuye nazo bityo bigatuma tubona umusaruro dukeneye mu gihe iyi miti yaba ikoreshejwe neza.

Imiti y'ubwoko butandukanye iri mu ducupa tw'umweru, dupfundikijwe imifuniko y'umweru, akaba ari imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'amatungo.

Imiti y'ubwoko butandukanye, iri mu bwoko bw'ibisukika ndetse no mu bwoko bw'ifu, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'amatungo.

Amacupa menshi atandukanye ari mu ibara ry'umukara, afite imifuniko y'umutuku, akaba arimo imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo kugira ngo amatungo yacu atazahura n'indwara zitandukanye.

Utujerekani turi mu mabara y'umweru, tumwe dupfundikije imifuniko y'umweru, utundi dupfundikije imifuniko y'icyatsi, tukaba turimo imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo.

Imiti y'ubwoko butandukanye iri mu macupa y'umweru, indi kabiri mu majerekani akaba ari imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu matungo.

Umuhinzi wambaye ijipo y'umukara, inkweto zifunguye, igitenge ndetse n'igitambaro mu mutwe, ari mu murima w'ibigori aho arimo kwita ku bigori bye abibagara kugira ngo bizere neza.

Abahinzi batandukanye, bambaye inkweto z'umukara, hagati yabo hakaba hari umupolisi ushinzwe umutekano, aho bari guhinga ibihingwa bitandukanye.

Abahinzi babiri b'abagore, umwe wikoreye inkwi ku mutwe, undi ufite isuka ku rutugu, aho bari mu murima kugira ngo bahinge.

Umuhinzi w'umugabo wambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, ndetse n'ishati ufite ikayi mu ntoki, akaba ari mu murima w'ibishyimbo, aho ari gukurikirana ubuzima bwabyo.

Umuhinzi ari kwita ku myaka ye abagara, akuramo ibyatsi bidakenewe kugira ngo imyaka izakure neza nta kiyibangamiye, bityo azabone umusaruro ushimishije mu gihe azaba ageze igihe cyo gusarura.

Umuhinzi w'umugore, wambaye umupira w'icyatsi, wambaye isaha ku kuboko, inkweto zifunze ndetse n'ipantaro y'umukara, aho ari mu murima, ari gutera ibiti, bikamuhereza umusaruro mwiza.

Inka zorowe kijyambere ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, imbere yazo hakaba hari ibyatsi, zikaba ari inka zizwiho gutanga umukamo mwinshi w'amata.

Abahinzi babiri b'abagore, bafite amasuka ku rutugu, biteze ibitambaro mu mutwe, bakaba bagiye guhinga.

Aborozi bahuriye hamwe aho hari amatungo atandukanye ihene z'ubwoko butandukanye, z'umweru, umukara n'andi mabara.

Aharorerwa inka hakaba hari inka nyinshi z'ubwoko butandukanye zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, zambaye amaherena, zikaba ziduha amata ndetse n'inyama.

Abahinzi batandukanye: abagabo, abagore aho bahuriye ku gace gafatirwaho imboga n'imbuto bitandukanye kugira ngo bajye kubihinga, bibahe umusaruro mwiza.

Abahinzi batandukanye abagabo batatu ndetse n'abagore babiri, aho bafite amasuka bari guhinga umurima kugira ngo bazateremo imyaka umurima umeze neza.

Ubwoko bw'imboga n'imbuto bitandukanye, bikaba byifashishwa mu mirire yo mu buzima bwa buri munsi, aha twavuga: ibigori, imineke, urusenda, amashu ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Umurima urimo ibyatsi bitandukanye ndetse n'igihingwa k'imyumbati, akaba ari igihingwa gitanga ifu nziza cyane ivamo umutsima wo kurya.

Umurima urimo ibigori byeze. Ibigori akaba ari igihingwa, ngandurarugo, kizwiho gutanga impeke nziza, zivamo ifu, ndetse n'umutsima.

Ibirayi bigeze igihe cyo gusarurwa, bimwe biri mu ndobo eshatu z'umukara, bikaba ari ibirayi by'ubwoko bw'umutuku, bikaba ari igihingwa kifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Umurima ugizwe n'ibyatsi bitandukanye byamaze kubagarwa ndetse n'igihingwa k'imyumbati, akaba ari igihingwa kifashishwa mu mafunguro ya buri munsi.

Igihingwa cy'ibigori byamaze gusarurwa, bikaba byifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye, harimo gusasira imyaka igikura ndetse bikaba bitanga ifumbire.

Ubwoko bw'inyoni igira umunwa muremure ihagaze mu murima w'umuceri, umuceri ukaba ari igihingwagandurabukungu.

Umurima ugizwe n'igihingwa cy'imyumbati itoshye cyane, imyumbati akaba ari igihingwa gitanga ifu y'ubugari, ikaba izwiho kongera imbaraga ikagira n'intungamubiri nyinshi.

Ubwoko bw'imboga n'imbuto zitandukanye, hakaba harimo: urusenda, inyanya, imiteja ndetse n'ibindi, bikaba byifashishwa mu gutegura amafunguro.

Imirima itandukanye igizwe, n'ibigori bikiri bitoya, ibiti, urubingo, ndetse n'ibigori byamaze gusarurwa, bitangiye kuma, biri mu murima.

Umurima w'urutoki munini urimo insina zitari zagera igihe cyo kwera, bigaragara ko uwitaweho neza, iyo byitaweyeho neza bikaba bizamura umusaruro.

Umurima ugizwe n'ibyatsi bitandukanye igihingwa k'imyumbati kikiri gitoya, akaba ari igihingwa gikoreshwa mu gutanga amafunguro mu buzima bwa buri munsi.

Ishyamba rifite ibiti bitoshye rikaba rigizwe n'ibiti by'ubwoko bitandukanye, ibinini, ibirebire ndetse n'ibitoya rikaba riciyemo n'umuhanda hagati yaryo.

Ishyamba rigizwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye, birebire cyane ndetse n'ibigufi ndetse n'inka zizwi ku izina ry'inyambo, zikaba zizwiho kugira amahembe maremare.

Amashyamba yitaweho neza adufasha, kubungabunga ibidukikije, bikadufasha kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, iyo amashyamba yitaweho, bizamura, bituma imvura igwa kandi, bigatuma tugera ku byo twifuza hakiri kare.

Ishyamba rigizwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye, ibirebire, ibito, rikaba ari ishyamba ritoshye cyane, rikaba ryifashishwa mu gukurura imvura no kuzana ba mukerarugendo.

Ishyamba ririmo amoko y'ibiti bitandukanye, ibirebire, ibitoya, ishyamba rikaba rifite uruhare mu gukurura imvura.

Ishyamba rigizwe n'ibiti by'amoko atandukanye, ibitoya, ibirebire ishyamba akaba ari kimwe mu bigira uruhare mu gutuma imvura igwa.

Ishyamba rigizwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye, ibirebire, ibitoya ndetse n'umugezi bikaba ari bimwe mu bigize urusobe rw'ibinyabuzima.

Ishyamba rigizwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye ibigufi, ibirebire, ishyamba rikaba rifite umumaro wo gukurura imvura.

Umuhinzi uri mu murima w'imbuto, akaba afite n'izindi mbuto mu ntoki harimo inyanya, ibitunguru, karoti, bikaba byifashishwa mu gutegura amafunguro ya buri munsi.

Imbuto zidufasha kugira ubuzima bwiza iyo uziriye uko bikwiye, ubuhinzi bw'imbuto ni bimwe mu bintu tugomba kwitaho tukabyitaho cyane kugira ngo ubuzima bwiza bugerweho. Iyo zitaweho igiti kimwe gishobora kwera imbuto nyinshi.

Ahatunganyirizwa ndetse hagahingwa imboga n'imbuto, izo mboga n'imbuto zikaba zifashishwa mu buzima bwa buri munsi mu mirire y'abaturage ndetse zigatanga intungamubiri zitandukanye.

Umukobwa wambaye ipantaro y'ubururu, ishati y'umweru akaba ari ku gihingwa cy'urusenda, akaba ari igihingwa cyongera uburyohe mu biryo by'abantu.

Igiti cy'amapapayi atoshye, gifite imiteja ikiri icyatsi itari yera neza, kikaba kizwiho kugira intungamubiri nyinshi iyo ukiriye.

Abahinzi babiri umwe ku ruhande rw'iburyo wambaye ingofero ndetse n'ishati n'ipantaro y'ubururu ku ruhande rw'ibumoso wambaye ingofero isengeri y'umweru ndetse ndetse n'ipantaro y'umukara, aho bahuriye mu murima w'imboga bari kuzikurikirana.

Umuhinzi uri mu murima w'imboga. Aho ari kwita kw'izo mboga kugira ngo zibashe gukura neza. Imboga zikaba ari bimwe mu bihingwa bifite intungamubiri nyinshi. Aho bidufasha kwirinda indwara n'ibindi bitandukanye.

Igihingwa kinanasi, akaba ari umurima urimo inanasi nyinshi, izeze n'izitari zera, kaba ari igihingwa gitanga umutobe uryoshye cyane bityo kikaba gikunzwe.

Abagore babiri bari mu murima aho bari mu gikorwa cyo gutera imigozi y'ibijumba, ibijumba bikaba ari ikiribwa kifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Igihingwa cy'urubuto rwa avoka kigizwe n'imbuto zitarera neza ndetse n'amababi atoshye cyane, kikaba ari igihingwa gikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, aho gitanga ifunguro.

Abantu batandukanye bari kwita ku buhinzi bw'ibitunguru, igitunguru akaba ari kimwe mu gihingwa gikoreshwa n'abantu benshi, aho kiryoshya ibiryo kandi kikadufasha no kwirinda indwara zitandukanye bitewe n'intungamubiri kifitemo.

Igihingwa kizwi ku izina rya pome, kikaba gifite amababi y'icyatsi ndetse n'imbuto zitukura, kikaba ari igihingwa kizwiho kugira uburyohe bwihawe bityo kikaba gikunzwe n'abantu benshi.

Umurima urimo imiyoboro igeza amazi ku myaka, ibi bikaba bidufasha kwirinda ko imyaka yacu yakuma mu gihe cy'izuba bityo tukongera umusaruro w'ibikomoka ku bihingwa byacu.

Umuyoboro urimo amazi yifashishwa mu kuhira ndetse n'imirima iwukikije, irimo imyaka ikizamuka ayo mazi yawo akaba yifashishwa mu kuhira imyaka iri mu iyi mirima kugira ngo itazicwa n'izuba izatangage umusaruro mwiza.

Umurima ugizwe n'igihingwa k'ibigori bikiri bitoya, bitoshye cyane ndetse n'imiyoboro ijyana amazi kugira ngo imyaka itazabura amazi mu gihe k'izuba ryinshi.

Umuhinzi mworozi ufite itiyo ijyana amazi mu murima akaba ari kuhira imyaka kugira ngo izatange umusaruro kandi ntiyicwe n'izuba mu gihe izuba ryabaye ryinshi.

Imashini zuhira zikaba zidufasha mu kugeza amazi ku myaka yacu mu gihe k'izuba, ibi bikadufasha kongera umusaruro ndetse n'imyaka yacu ikera nta kibazo igize cy'amazi makeya.

Umuhinzi wambaye ipantaro y'ubururu, umupira w'umukara, akaba afite umuyoboro ujyana amazi mu murima, aho ari kuhira igihingwa cy'urutoki kugira ngo kizakure kimeze neza.

Umuhinzi w'umugabo, wambaye ingofero, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, aho afite umuyoboro ujyana amazi mu murima, kugira ngo izuba ritazica imyaka.

Umuhinzi w'umugore ufite amazi, akaba ari kuhira igihingwa cy'amashu, bigatuma amazi atabura mu gihe cy'izuba.

Umuhinzi w'umugabo, uri mu murima w'imbuto, aho afite itiyo iri kujyana amazi mu murima, kugira ngo imyaka itazumishwa n'izuba ryinshi.

Umurima ugizwe n'imbuto z'inyanya zitoshye cyane ndetse n'ibase n'ibikoresho bikoreshwa mu kuhira imyaka kugira ngo izuba ritazayitera ikibazo.

Umuhinzi w'umugabo ufite isuka uri mu murima w'imbuto zitandukanye amashu ndetse n'ibitunguru aho ari kubishyiriramo amazi kugira ngo bitazicwa n'izuba.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara ndetse n'ingofero, aho ari gukura amazi ku isoko yayo ayajyana mu murima kuhira imyaka ndetse n'undi muntu urimo kumufotora.

Agace kagizwe n'imisozi miremire, tukaba tuhasanga ibiti by'ubwoko butandukanye, ibirebire, ibitoya, ndetse hakaba hahingwa n'imyaka itandukanye.

Igice cy'imiturire kiganjemo imisozi miremire, amazu ndetse n'ibyatsi bitandukanye, ibiti birebire hakaba ari ahantu hahanamye.

Ubworozi bw'inkoko hakaba harimo inkoko z'ubwoko butandukanye, zikaba zitanga amagi ndetse n'inyama bityo abantu bakabona amafaranga kandi bakagira ubuzima bwiza.

Aborozi bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'inka zifite amahembe maremare zizwi ku izina ry'inyambo, zikaba zitanga umukamo uryoshye cyane.

Umworozi w'umugabo wambaye ingofero ndetse n'inkweto z'umukara, akaba ari kugaburira inka iziritse ku giti ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Ubworozi bw'inkoko bwitaweho kugaburira neza, kuziha amazi asukuye kandi meza, bituma umusaruro uzamuka bigatuma umuhinzi agera k'umusaruro ukenewe.

Abavuzi b'amatungo batandukanye bari kwita ku nka z'inyambo akaba ari inka zigira amahembe maremare, akaba ari inka zikunzwe cyane mu muco nyarwanda, zikagira amata aryoshye cyane.

Ubworozi bw'inkoko bwa kijyambere, bugizwe n'ibikoresho bitandukanye, aho harimo aho bafatira amagi n'aho bagaburira, akaba ari ubworozi butanga umusaruro mwinshi cyane.

Ubwoko bw'ihene zitandukanye, izifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku, izifite amabara y'umukara. Zikaba ziri mu murima, aho ziri kurisha, kugira ngo zizatange umusaruro mwiza.

Umworozi wi kwita ku nkoko inkoko zitaweho neza zikaduha umusaruro w'amagi menshi, ndetse n'inyama zifite intungamubiri bityo uzorora akagira amafaranga ndetse akarwanya n'indwara zituruka ku mirire mibi.

Umworozi w'umugabo wambaye bote z'umweru, aho ari gukurikirana ubworozi bw'imishwi, azihereza ibyo kurya ndetse n'amazi yo kunywa kugira ngo zitange umusaruro.

Urwuri rugizwe n'ibyatsi bitoya harimo inka z'ubwoko butandukanye, ndetse n'abashumba bazo aho ziri kurisha kugira ngo zitange umusaruro.

Inka z'ubwoko butandukanye: iz'umukara, iz'umweru, ziri mu murima ziri kurisha ibyatsi bitandukanye, zikaba zitanga inyama ndetse n'amata afite intungamubiri.

Ihene ziri kurya ibyatsi bitandukanye, ubworozi bw'ihene akaba ari bumwe mu bworozi bugirira akamaro ubukora, aho bumuha amafaranga bu mukamuha n'ifumbire yo gufumbiza imyaka itandukanye.

Inzu ikorerwamo ubworozi bw'inkoko, aho harimo ubwoko bw'inkoko butandukanye, ibikoresho ziriramo ndetse n'ibyo zinyweramo amazi, inkoko zikaba zitanga amagi ndetse n'inyama.

Ahororerwa inka, hakaba harimo inka z'ubwoko butandukanye, inka akaba ari itungo rizwiho gutanga inyama ndetse n'amata, agira intungamubiri.

Umworozi w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru, aho ari gukurikirana ubworozi bw'inka buteye imbere, zirimo kurya ibyatsi bitandukanye kugira ngo zibashe gutanga umusaruro.

Aborozi bari, mu kiraro, k'inka, ndetse n'amatungo ahari, akaba ari ubworozi, buzwiho gutanga umusaruro mwinshi w'amata inyama, ndetse n'ifumbire.

Ubworozi bw'ingurube, ingurube iryamye hasi ndetse n'ibyana bikiri bitoya, akaba ari ubworozi bwinjiza amafaranga menshi kubera ko ingurube iba yabyaye ibyana byinshi cyane.

Umworozi w'umugabo wambaye isarubeti y'icyatsi, akaba ari kwita ku bworozi bw'inkoko, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye, ibyo kunyweramo amazi ndetse n'ibyo kuriraho.

Abahinzi bari mu murima w'ibirayi byamaze gusarurwa, aho bari kubishyira mu mifuka kugira ngo babijyane ku isoko bityo umusaruro ugezwe ku bawukeneye.

Impeke z'ubwoko butandukanye harimo umuceri, amashyaza, ibishyimbo n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu mafunguro ya buri munsi.

Abamama batatu batandukanye, umwe uteruye umwana, bakaba bari mu mirimo yo gutunganya igihingwa cy'ibigori, akaba ari igihingwa gitanga igikoma ndetse kikifashishwa mu gutanga ibiryo mu buzima bwa buri munsi.

Abavuzi b'amatungo babiri, umwe wambaye itaburiya y'umweru undi wambayew itaburiya y'ubururu ndetse n'inka, aho bari mu gikorwa cyo gutera intanga kugira ngo ngo inka izabashe kubyara itungo rimeze neza.

Umuvuzi w'amatungo uri gutera intanga. Bikadufasha kongera umusaruro no kwirinda indwara ziterwa n'ibimasa kandi bikadufasha no kuba itungo twarikurikirana mu gihe gikwiye.

Abavuzi b'amatungo babiri bambaye udupfukamunwa ndetse n'ibibarinda kwandura, aho bari mu gikorwa cyo kuvura itungo ry'imbwa.

Abavuzi b'amatungo bambaye udupfukamunwa kugira ngo bataza kwandura indwara, aho bari mu gikorwa cyo kuvura itungo rizwi ku izina ry'imbwa.

Abaveterineri bari muri gahunda yo kuvura amatungo, ubuvuzi buteye imbere bw'amatungo akaba ari bimwe bidufasha kwita ku matungo yacu mu gihe yahuye n'ibibazo cyangwa se indwara zitandukanye, bikadufasha kongera umusaruro no kwita ku matungo yacu.

Aborozi ndetse n'umuvuzi w'amatungo aho ari mu gikorwa cyo gutera intanga kugira ngo itungo rizabashe kubyara itungo rimeze neza.

Imparage zije ku mugezi kunywa amazi, zikaba ari zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo, bikaba ari byiza kuzibungabunga kugira ngo urusobe rw'ibinyabuzima rukomeze kwitabwaho.

Ubwoko bw'inyamaswa zitandukanye, akaba ari inyamaswa ziba mu ishyamba, aha twavuga ingage, imparage, intare, inzovu, imbogo, ndetse n'agasumbashyamba.

Urusobe rw'ibinyabuzima rugizwe n'ibyatsi bitoya ndetse n'inyamaswa y'inzovu, akaba ari inyamaswa igira umunwa muremure, igakurura ba mukerarugendo.

Inyamaswa zizwi ubwoko bw'inkende ziri mu ishyamba, akaba ari inyamaswa zizwiho ubwenge bwinshi cyane, zikaba zikurura ba mukerarugendo baza baje kuzireba.

Ishyamba ririmo ibyatsi by'ubwoko butandukanye, ibiti birebire ndetse n'ibitoya ndetse n'inyamaswa zizwi ku izina ry'impara ndetse n'imparage, zikaba zikurura ba mukerarugendo.

Imvubu akaba ari inyamaswa zikunda kuba mu migezi, aho zikurura ba mukerarugendo benshi bakunda kuza kuzireba bitewe n'uburyo ziteye, zikaba zigomba kwitabwaho kugira ngo zidacika.

Inyamaswa izwi ku izina ry'ingwe ikaba ari inyamaswa izwiho kugira amenyo maremare, ikaba iry'inyama ikaba ikurura ba mukerarugendo.

Ubwoko bw'inyamaswa buzwi ku izina ry'ibirura, akaba ari inyamaswa ziba mu ishyamba, zikaba zizwiho gukurura ba mukerarugendo.

Urusobe rw'ibinyabuzima rugizwe n'ibyatsi bitoya ndetse n'inyamaswa ebyiri, imparage ndetse n'intare, aho intare ishaka kurya imparage.

Ubwoko bw'inyoni buba mu mashyamba ndetse no mu mazi, bukaba ari bumwe mu bwoko bugize urusobe rw'ibinyabuzima, zikaba zikurura ba mukerarugendo.

Ubwoko bw'inzoka ziba mu ishyamba bukaba ari inzoka zikunda kuba ahantu hari ibyatsi byinshi, zikaba ziri muri bimwe mu bikurura ba mukerarugendo.

Inzovu ni imwe munyamaswa ziba mu ishyamba, ikaba izwiho kugira umunwa muremure ndetse n'ibiro byinshi, ikaba ikurura ba mukerarugendo, aho bose baza bashaka kuza kuyireba.

Ubwoko bw'inyamaswa zitandukanye ziba mu shyamba ndetse n'imodoka za ba mukerarugendo, aho baje kureba ibyiza nyaburanga biba mu mashyamba.

Inyamaswa y'imparage ikaba igira amabara y'umweru n'umukara umubiri wose, iri mu ishyamba rifite ibyatsi bitoya, ikaba ari inyamaswa ikurura ba mukerarugendo cyane kubera ubwiza ifite.

Inyamaswa izwi ku izina ry'ingwe, ikaba ari inyamaswa ikunda kuba mu mashyamba, ikaba ibarirwa mu bwoko bw'ibiryayama, ikaba ikurura ba mukerarugendo.

Ishyamba rigizwe n'ibyatsi bitoya ndetse n'ibiti birebire harimo intare ebyiri, intare akaba ari inyamaswa y'indyanyama izwiho kwitwa umwami w'ishyamba.